Umwana uri ku ivomero, ari kuri robine afite igikombe ari kuvoma amazi, aragaragara nk'umwana unezerewe cyane abona amazi ajya mu gikombe. Amazi ni meza ku buzima bwacu.

Gupimisha abana bacu ibiro, birakwiye ko dupimisha abana bacu ibiro, abajyanama b'ubuzima, umubyeyi uteruye umwana, n'abandi babyeyi bicaye hasi, bigaragara ko bose bahuriye mu gikorwa cyo kuza gupimisha abana babo ibiro, birakwiye ko dupimisha abana bacu ibiro, tukamenya ko imyaka yabo ndetse n'ibiro bigendanye, kuko birabarinda mu mikurire yabo, bikabarinda kugwingira.

Abana benshi bahuriye ahantu hamwe, kw'ivomero, harimo abana badafite ibivomesho, ariko hari n'abandi bafite ibivomesho, ndetse n'undi uri kubahereza amazi, ikigaragara cyo aba ni abana batumwe amazi n'ababyeyi, baje kubazanira amazi, ahangaha bari ni ku ivomero rusange.

Ku ivomero. Hari abantu bane. Abakobwa batatu cyangwa se abagore n'undi mugabo umwe cyangwa se umusore umwe. Hari n'amabido menshi. Aba bantu baje mu gikorwa cyo gushaka amazi yo ku ivomero.

Abana bateraniye hamwe, umwambaro umwe wanditseho ngo Unicef, biragaragara ko aba bana ari abagenerwabikorwa b'uyu muryango utegamiye kuri leta witwa Unicef.

Abana bane baravoma amazi yo gukoresha. Amazi aradufasha mu buzima ubwacu bwa buri munsi. Tuyakoresha tumesa, tuyakoresha duteka, tuyakoresha dukora amasuku mu buryo butandukanye.

Umubyeyi ukikiye umwana hamwe n'undi muntu uhagaze arimo kumuhereza umuti. Biragaragara neza yuko uyu mubyeyi yari aje kuvuza umwana cyangwa se aje kumuhesha urukingo, ari gufasha uyu mwana muri serivisi z'ubuzima.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bamwe baricaye abandi barrahagaze, bisa nkaho bari kwa muganga kuko bose bagiye bafite utuntu tw'udupapuro mu ntoki bigaragara ko ari amafishi kandi imbere yabo ukomeje ukareba neza urahabona umuntu wicaye kuri reception aho bakirira abantu, aho aha ngaha ni kwa muganga abantu bagiye kwivuza.

Gukingiza abana, umuganga uri gutera urushinge umwana ndetse n'umubyeyi ukikiye umwana, umubyeyi yaraje gukingiza umwana abana. Abana bagira inkingo zitandukanye baza gukingizwa, birakwiye rero ko dukingiza abana bacu tubakingiriza igihe.

Abanyeshuri barimo baravoma abana ba banyeshuri harimo abakombwa hamwe n'abahungu kuri robine bafite indobo z'umuhondo n'akajerekani k'umuhondo barimo baravoma amazi bigaragara ko ari amazi bari kujyana ku ishuri gukora amasoko.

Abana batari benshi ariko batari na bake da, abana bagera muri batandatu barindwi, ugenekereje ni abo ngabo, bari mu mazi menshi bose bambaye ubusa hejuru, barimo koga bari kwidumbaguza mu mazi menshi.

Robine, amazi hamwe n'ibiganza. Ese bisobanuye iki? Bisobanuye yuko uyu muntu ateze ibiganza kuri robine, ari koga mu ntoki kugira ngo umwanda umuveho.

Ababyeyi b'abamama bateraniye ahantu hamwe, ariko harimo n'umwana. Bahagaze ku ivomero bafite indobo, babiri bari hepfo bari kuvoma, abandi batatu bari ahagana haruguru. Bisa nkaho baje ku ivomero kuvoma bose bashaka amazi, amazi yo gukoresha mu rugo, ibikorwa bitandukanye.

Umubyeyi uri kwisuzumisha ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze mu mitemberere y'amaraso. Ari kumwe na muganga uri kumufasha ndetse n'abandi babyeyi na bo bigaragara ko baje muri icyo gikorwa. Iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ni indwara ihitana abantu benshi cyane ku kigero kiri hejuru. Birakwiye rero ko tujya tujya kwa muganga tukamenya uko ubuzima bwacu buhagaze, hato tutazahitanwa n'iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso.

Abantu bahagaze batandukanye bambaye udupfukamuwa harimo abagabo n'abagore ndetse n'umwana wicaye bari kumuhereza ikinini mu by'kuri ikiri kugaragara ni urukingo bari guhereza umwana cyangwa se umuti bari guhereza umwana.

Abajyanama b'ubuzima, hamwe n'umuganga n'undi mugabo ubari hagati, wambaye imyenda ya kositimu, na we ntabwo bigaragara ko ari umuganga cyangwa ari umujyanama w'ubuzima; gusa bigaragara ko bavuye mu gikorwa cy'akazi. Bafatira ifoto hamwe y'urwibutso.

Abana b'abanyeshuri bahagaze ahantu ku kigega, bafite ibikombe, bari kuvoma amazi bakanywa. Ntabwo ari byiza kuvoma amazi avomeweho, agahita anywebwa. Ntabwo ari byo, kuko aya mazi afite indwara, arimo za mikorobe, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Si byiza kunywa amazi adatetse.

Amajekani, abantu, n'utuvido dutoya. Ikigaragara cyo, aba bantu baje kuvoma, kandi hano ni ku ivomero. Ni koko! Turahabona utubido ndetse n'abantu, n'amajerekani manini, n'amazi. Uko bisa kose ni abantu baje kuvoma. Ariko si uko bisa kose, ahubwo ni byo ni abantu baje ku ivomero, baje gushaka amazi.

Abana babiri bahagaze ahantu umwe afite igikombe undi ateza intoki ari kumusukira amazi bigaragara ko ari koga mu ntoki. Birakwiye ko twoga mu ntoki mbere yo kugira ibindi bintu byose dukora cyanecyane mbere yo kujya kurya ajya kujya gusuhuza abandi.

Amagambo yanditse ngo UNICEF for every child. Ni umuryango utegamiye kuri Leta wita ku bana ubafasha ubusabwa bwa buri munsi ariko kwita ku bana bana baba bafite imiryango itishoboye cyangwa se abana bagiye bafite ibibazo bitandukanye.

Umuntu wicaye ahantu yigunze, yifashe mu gahanga, w'igitsina gabo, yicaye ahantu hadasa neza, aziritse umugozi hasi mu maguru, muby'ukuri arasa n'umuntu utameze neza, nk'umuntu ufite ibibazo byarenze.

Abantu bicaye ahantu harimo abamama ndetse n'umugabo mwe. Abantu barasa n'abahujwe igikorwa kimwe. Kuko urabona ko baganira kandi bahuje. Bose baratuje bateze umwe amatwi ari kubaganiriza. Ni abamama ndetse n'umugabo.

Umuntu uhagaze ahantu arimo yiyumvira araramye. Arasa n'umuntu watwawe n'ibitekerezo ari gutekereza ibintu byinshi cyane, atumbiriye mu kirere. Ni umugabo arahagaze.

Abantu bahagaze ahantu hamwe, bamwe bambaye imipira y'umweru y'amarakosite, abandi bambaye imipira isanzwe, harimo abambaye amapantaro, n'abambaye amakabutura. Harimo abagabo ndetse n'abagore. Ikigaragara cyo bari bahujwe n'igikorwa kimwe, kuko bose, abenshi muri bo bagiye bafite ibyapa mu ntoki, kandi bisa.

Umugabo uhagaze afite ibishishwa by'imineke mu ntoki yambaye imyenda yacitse. Mu by'ukuri asa n'umuntu ufite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe. Yambaye imyenda isa nabi, yambaye ibirenge, aragaragara nk'umuntu utameze neza.

Umubyeyi uryamye ahantu, araramye, areba hejuru n'umuganga amuhagaze iruhande arikumufasha, uyu mubyeyi biragaragara yuko yaje muri serivisi z'ubuvuzi akaba ari kuzihabwa.

Umuganga ari kumwe n'undi mugabo. Uyu muganga arasa n'uri kuvura uyu mugabo. Ariko ni byo kuko ni ko bimeze; ko ari kumuvura. Arasamye uyu mugabo bari kumwe. Umuganga na we yafashe akantu amutorosha mu kanwa. Ari kureba ibintu bigendanye n'ibibazo by'amenyo. Uko bisa kose, uyu mugabo yari aje kwivuza ibibazo by'amenyo.

Abanyeshuri bateraniye hamwe bafite utuntu mu ntoki. Ni abana benshi b'abakobwa n'abahungu ariko bose bari mu kigero kimwe. Bafite korogate mu ntoki n'utundi tuntu tutabasha kugaragara neza, ariko ni abanyeshuri bari mu ishuri bicaye.

Abana batari benshi ariko batari na bake da! bateraniye ahantu hamwe bose bahujwe n'igikorwa kimwe, ikindi bose bambaye n'umwambaro umwe, biragaragara yuko ari abanyeshuri, ariko ikindi nanone bose bafite udukombe mu ntoki, ndetse bafite na borosada, barimo bariborosa, barimo koza amenyo yabo, kugira ngo amenyo yabo atangirika.

Umwana wo kwa muganga ari mumaboko y'abaganga aryamye hasi ku gatanda, arasamye haramaboko amufite ku ruhande amufashe ku matama, ukundi kuboko kumwohereza akuma mu kanwa biragaragara ko bari kumwogereza amenyo, umwana ari kwa muganga arikogesha amenyo yiwe.

Abantu bari kumwe bari mu kigero gindukanye, babiri barakuze barasa n'ababyeyi babo, abandi babiri na bo barakuze barasa n'abana babo bakuru, bakazana n'undi mwana umwe mutoya, tugenekereje twavuga ngo iyi ni famiye, uyu ni umuryango w'abantu bateraniye hamwe, abana batatu n'ababyeyi babo babiri.

Ababyeyi babiri bakuze, umwe ni umu papa undi ni umu mama. Bose bafite imisatsi y'umweru ntawabahakana ko bakuze kuko. Bahuje urugwiro, bose bafite akamwenyu ku munwa wabo. Mbega ibintu byiza, barasa neza cyane.

Abantu bateraniye ahantu hamwe ku murongo, bamwe barahagaze abandi baricaye. Batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye n'imyambaro itandukanye. Biragaragara yuko abo bantu bari mu gikorwa kimwe bose bahuriyemo.

Inyuguti eshatu, R na B na C, ziri mu mabaratandukanye, ugasoma ngo ni RBC, mu magambo arambuye atubwira ngo, ni Rwanda biomedical center. Iki kigo cya RBC cyangwase Rwanda Biomedical Center. Ni ikigo cyita ku buzima mu Rwanda.

Abantu bari kwikingiza, bari guhabwa urukingo, hakunze kubaho inkingo zitandukanye, mu bihe bitandukanye, haragaragara umugabo wicaye yambaye agapfukamunwa uri uterwa urukingo, hakagaragara n'undi uri kumutera urukingo.

inyubako iraha hantu hahagazeho abantu imbere ariko hariho n'icyapa twakwibaza ngo iyi nyubako hakorerwamo iki? Reka dusome. paining phormacie biragaragara y'uko aha ari kuri forumasi bafasha abantu babahereza serivisi z'ubuzima.

Amashi arimo amaraso. Muri make ni ubwoko bw'amaraso. Biragaragara ko ayo maraso, ari ayo bafashe abantu, barangije bajya kuyapima, babona ko yujuje ubuziranenge barayabika. Birakwiye ko dutanga amaraso kugira ngo afashe abandi bantu, bayabuze mu gihe kiri imbere, umuntu yarwaye cyangwa se yabuze amaraso biramufasha. Twashishikariza abandi rero kujya dutanga amaraso kuko ni igenzi.

Ibitaro bya Gihundwe. Baratwereka aho bavurira amaso, bakanatwereka y'uko hari gahunda yo kuvura amaso. Ni iby'igiciro ku bahatuye kuko bituma batajya kure cyane y'aho batuye bajya gushaka aho bivuriza amaso.

Inyubako isa n'ahantu ari kwa muganga, hari ibyumba bitandukanye, baratwereka ibyumba, hari icyanditseho clinic, n'indi miryango yindi itagaragara ikintu cyanditseho, ariko imbere hari icyapa kigaragaza ibintu byanditseho ngo:'' Restroom, criproom,'' n'ibindi bitandukanye. Ikigaragara cyo ni inyubako yo kwa muganga.

Icyumba cy'inyubako, icyuma kirimo ibintu bitandukanye, harimo ibitanda, harimo umuntu wambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa. Biragaragara yuko iyo nyubako ari iyo kwa muganga, bitewe n'ibintu birimo nk'ibikoresho ndetse n'uyu muntu uhagazemo yambaye. Biragaragara yuko ari kwa muganga.

Icyumba giteraniyemo ibikoresho byinshi bitandukanye, bimwe birasa umweru, ibindi birasa umuhondo, harimo n'ibisa umukara, turebye neza ibi bikoresho ni ibikoreshwa kwa muganga, aha ngaha ni inyubako yo kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo intebe zicarwaho n'abarwayi, igitanda cy'abarwayi, ameza bakiriraho abantu, intebe y'umuntu ukorera muri icyo cyumba, mbese harimo ibikoresho bitandukanye bigaragaza ko ari kwa muganga, harimo n'imashini ipurintinga impapuro.

Umuganga yicaye mu cyumba cy'aho bavurira, hari igitanda, hari aho bogera yicaye ku gatebe yambaye itaburiyo bigaragara ko ari mu kazi ariko nta murwayi ari kumwe na we.

Ni umuganga wambaye imyenda y'abaganga, wambaye n'agapfukamunwa, imbere ye hicaye umwana, ndetse n'undi musore umuri inyuma, bigaragara ko yaherekeje uwo mwana waje kwivuza cyangwa kwisuzumisha. Ikigaragara cyo uyu muganga ari gusuzuma umwana indwara.

Abantu bicaye ahantu hamwe, bifotoje kimwe, bambaye imyambaro imwe, bahagaze ku nyubako yanditseho ngo Legacy Clinic. Uko bisa kose aba bantu bakora akazi kamwe. Bahujwe n'igikorwa kimwe. Barasa nkaho ari abaganga cyangwa abaforomo. Kubera iki cyapa kibitwereka ngo Legacy Clinic ndetse n'imyambaro bambaye.

Abantu benshi bateraniye ahantu, bamwe barasutamye abandi barahagaza, hari abamansere, hari n'umupadiri, harimo n'umusirikare, bahagaze imbere y'inzu yanditaseho ngo: Inzu y'ababyeyi/ Maternite.

Ahantu heza cyane hasa neza, hari amajaride, hari inyubako nziza, hari na parikingi, hari n'abandi bantu babiri, hari icyapa cyanditse ngo: Nyarugenge district hospital, bigaragara ko ari ku bitaro bya Nyarugenge.

Inyubako ndende isa neza n'ibindi bikikije hari n'icyapa, twakwibaza ngo yiyi nyubako ikorerwamo ibiki reka dusome, hopitale ra kuruwa di side kwa Nyirankwaya, eee aha ni kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuzima nibyo koko.

Icyumba kirimo amashi akaka apakinzemo amaraso. Uko bisa kose ni kwa muganga. Kwa muganga bahabika amaraso batera abaryayi, iyi nyubako ni iyo kwa muganga.

Umugabo uri gukora siporo. Ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi gukora siporo. Hari ubudahangarwa bihereza umubiri wacu, hari indwara biririnda umubiri wacu kubera ko twakoze siporo. Gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu bari muri siporo ni abantu babiri umusore ndetse n'umukobwa, bose mu ntoki basigatiye amacupa y'amazi, bambaye imyenda siporo bari muri siporo. Siporo ni ingenzi ku buzima bwacu dukunde siporo.

Umuntu uri mu gukora siporo, ahagaze ku kuma gafasha abantu gukora siporo, arunamye, yambaye inkweto, amasogisi, ndetse n'imyenda igaragara nkaho ari iya siporo. Mu by'ukuri umuntu ari gukora siporo. Twongere twibuke neza yuko, siporo ari ingenzi mu buzima bwacu.

Umuntu ukora siporo ku ruhande hari imbuto zitandukanye. Pome, amaronji, imineke, ndetse n'imizabibu. Hejuru hakaba handitse ijambo rivuga ngo ''Sports nutrition''. Nibyo koko, tugomba gukora siporo, ariko tukagira n'imbuto dufata z'inyunganizi.

Imodoka iri mu muhanda, imodoka y'imbangukiragutabara itwara abarwayi, ibajyana kwa muganga, mu gihe abarwayi bakeneye ubufasha, ibavana ku bitaro bimwe ibageza ku bindi bitaro.

Umuntu w'igitsina gore arimo akora siporo, yazamuye amaboko yafuze n'imisatsi y'iwe arimo arakora siporo. Siporo ni ingenzi mu buzima kuko ziturindira ubuzima zigatuma tugira ubuzima bwiza n'imibereho myiza, zikadurinda indwara zimwe na zimwe.

Umukobwa uri gukora siporo, yambaye imyenda siporo, agasengeri n'agakora, imyenda ya siporo bisanzwe, mu by'ukuri ahanini bakunda kuvuga ko abakobwa bakunda gukora ngo siporo zituma batera neza, bakagira imiterere myiza

Umuntu uri gukora siporo, iruhande rwe hari imbuto ndetse n'imboga; karoti n'ishu, shufurere, amaronji, ndetse na pome. Bitugaragariza yuko imboga n'imbuto ari nziza imibiri yacu hamwe na sipora. Buri uko dukora siporo ntitureke tureke imbuto ndetse n'imboga byose birunganirana.

Umukobwa cyanga se umugore wambaye imyambaro y'umuganga. Yambaye ga mu ntoki, yambaye inifomu y'umuganga ndetse yambaye na ka kantu mu ijosi k'abaganga. Yewe! Ntabwo nize ibintu by'ikiganga ngo mbe namenya izina ryako neza ariko nkunda kukabona abaganga. Ahanini bagakoza ku mutima w'abantu. Ikigaragara cyo ni umuganga yari ageze kazi ke, agiye gutangira akazi.

Icupa ry'amazi, rirerire, rifite agapfundikizo k'ubururu, umuntu yafashe mu kaboko yazamuye hejuru, ni icupa ririmo amazi asa neza, ikigaragara cyo ni amazi yo kunywa, amazi ni meza, amazi ni ingenzi mu buzima bwacu.

Amazi, imbuto zitandukanye harimo pome n'amaronji n'igikoresho cya siporo ndetse na metero. Ibi byose bikubiye hamwe, ni ibintu bituzanira ubuzima bwiza. Amazi ni meza ku mubiri, imbuto nziza ku mubiri, siporo ni nziza ku mubiri ndetse na metero igaragaza ko hari igihinduka ku mubiri wawe ugikora siporo.

Umuganga ufashe akaguru k'umuntu uryamye hasi, biragaragara ko uyu muganga arimo agorora akaguru k'uyu mu tu. Bisa nk'aho uyu muntu yaraje kwa muganga kwivuza, muganga akaba ari mu kugorora amaguru y'iwe avuga ko ariko gufite ikibazo.

Igiti kirekire giteye ahantu kiri kumwe n'ibindi biti bigufiya. Harasa n'ahantu muri jaride. Hateye ibiti, mbese ni mu busitani bwiza cyane. Bugaragara neza. Kuko harimo ibiti birebire ndetse n'ibigufiya.

Akabati gateretse ahantu, karimo amacupa menshi atandukanye, ndetse n'umuntu uhagaze ku ruhande. Bigaragara ko ari ibintu birimo bicuruzwa. Ariko tugenekereje neza tukareba, harimo imiti ya gakondo.

Ishyamba cyangwa se igihuru, ahantu tubona harimo ibiti birebire ndetse n'ibindi biti byo hasi bigaragara nk'ibyatsi bitari ibiti ariko byo hasi. Hakurya turabona ishyamba rifite ibiti birebire, hakuno tukabona ibyatsi byahagana, bitereye hasi bitari birebire.

Akabati karimo amacupa atandukanye, ndetse n'amabara atandukanye, arimo ari mwayo macupa, urebye neza ,aya macupa arimo imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye.